Ulmugabo w'umuhinzi urimo kugenda atera umuti ahetse ipompo yifashishwa mu kugenda ikwirakwiza umuti mu duce tugiye dutandukanye, iyu nguyu ni umuhinzi w'inyanya arimo kugenda yica udukoko dushobora kwangiza ibi bihingwa bigatuma umusaruro uba mukeya.

Umugabo uri mu kibaya arimo kugenda atera imiti yifashishije amapombo yabugenewe agenda anyanyagiza imiti mu bice bigiye bitandukanye uko umuntu agendaka ari nako umuti ugenda usohoka, nko mugihe kandi agenda apomba niko n'umuti ugenda ujya hejuru.

Umugabo urimo kugenda atera imiti mu bihingwa kugira ngo arebe ko yakirinda ibyonnyi, afite ipompo yabugenewe, arimo kugenda kandi ari na ko umuti ugendaza uri mu mazi agira ngo yirinde ibyonnyi kuko iyo biri mu myaka bituma idakura neza ikagwingira.

Umugabo w'umuhinzi urimo kugenda atera imiti kugira ngo yice udukoko dushobora kwataka cyangwa se dushobora kwangiza indwara arimo kugenda acucira mu bice bigiye bitandukanye ari nako utunyamanswa turimo cyangwa se udukoko turi mu myaka dupfa, utundi tugahunga.

Umuti uri muri farumasi cyangwa se iduka ry'imiti, aho umuntu ashaka kugura mu gihe ashaka gutera umuti yica udukoko tujya dutandukanye twibasira ibihingwa bikaba byatuma umusaruro ugenda uba mukeya, iyi miti yifashishwa kugira ngo umusaruro uzabe mwinshi.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe arimo kugenda atera umuti bino bihingwa, arimo kugenda yica udukoko kugira ngo ibihingwa bizere neza kandi bitange umusaruro nk'uko biba byateganyijwe, arimo kugenda atera umuti uva muri iri pompo yambaye mu mugongo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, ahitse ipompo arimo kugenda atera umuti mu myaka ye, arimo kugenda yica udukoko, dushobora kuza kwangiriza imyaka hamwe n'ibyonnyi, yambaye imyenda yabugenewe kuburyo adashobora kwanduzwa n'umuti arimo gutera.

Ubworozi bw'amafi aho hano hacukuye icyuzi kirimo amazi, aha ngaha mo hasi harimo amazi, umuntu araza agashyiramo ibyo kurya amafi arimo akabasha kubona ibiyatunga, hanyuma iyo amaze gukura, barobanuramo amaze gukura bakayajyana ku isoko andi asigayemo agakomeza akarerwa.

Umugabo uhagaze imbere y'icyuzi kirimo amazi. Ni kwa kundi bafata amahema bakayarambika ahantu mu cyobo, barangiza bakamenamo amazi, kugira ngo atazakama, barangiza bagashyiramo amafi bakayorora.

Abagabo babiri bahagaze ku cyuzi barimo kugenda bareba uko ubworozi bwabo bumeze aha ngaha borora amafi ndetse n'ibindi bintu biba mu mazi, higanjemo ndetse n'isambaza no kugenda bareba uko bimeze niba biri gutanga umusaruro.

Ubworozi bw'amafi, aho umuntu agenda akora ibyuzi cyangwa se agacukura ibyobo agashyiramo n'amahema kugira ngo ya mazi atazagenda akama, hanyuma akagenda ashyiramo ibiryo by'amatungo cyangwa se by'amafi, hanyuma akazategereza umusaruro.

Umworozi w'amafi ufite ifi ku rushundura arimo kugenda agaragaza igifi yari imaze kurya, arimo kugenda ayirutsa yamaze kuyifata aha ngaha amaze kuyiroba arimo kugenda areba ibyo yarigiye kurya, hari igihe bazifata batagamije kugira ngo bajye kuzigurisha, ari ukugira ngo barebe uko zimeze, izikuze bakazigurisha izindi ntoya bakazisubizamo.

Umugore w'umworozi w'amafi, ahagaze imbere y'icyuzi. Aha ngaha ushobora gushyiramo amafi ukajya uyagaburira, hanyuma yamara gukura, ukarobanuramo ayamaze gukura, ukayagurisha, akiri matoya ukayarekeramo, ukazayakuramo amaze gukura.

Umugabo ukora akazi ko korora amafi. Ubaho arimo kugenda ashyira ibiryo mu kiyaga kugira ngo aya mafi agende abona ibyarya. Aha ngaha ntibyaba byose bagenda bacukura bakongeramo amazi ba bagashyiramo amahema kugira ngo ya mazi atazakama ubundi bagashyiramo amafi.

Umugabo worora amafi arimo kugenda anyanyagiza ibiribwa muri iki cyuzi, ndetse hariho amahema atuma aya mazi adashobora gukama cyangwa se amafi arimo hasi adashobora kujya mu butaka cyangwa mu bindi bice ndetse ubu bworozi bw'amafi butanga amafaranga menshi.

Ubworozi bw'amafi bugizwe n'utuzutuye dutandukanye, tunyuzwamo ibyo kurya ndetse ahangaha hari n'amazi agenda ashyirwamo ibyo kurya, kugira ngo amafi arimo agende yogamo anezerewe cyane, kuko iyo agiye hanze y'amazi ahita apfa.

Abagabo n'abagore bari mu murima w'icyayi barimo kugenda basoroma, bafata utwerezwa cyangwa se udutwe tw'icyayi bashira mu ibitebo ndetse bambaye imyenda yabugenewe ituma ibiti bitabakomeretsa cyangwa se ibyayi bibe by'abapfumura.

Umugabo w'umuhinzi uhagaze mu muceri, ni ukuvuga ngo ibi bihingwa by'umuceri byenda kugera igihe cyo kwera, ibyinshi muri byo bifite uruyange ndetse ni cya gihe baba barimo kugenda barinda inyoni kugira ngo zitaza kuwangiza.

Umugabo ufite igiti kirekire k'ikawa ndetse arimo kugenda agica udushami tugenda dutandukanye agiye gukoramo ingemwe, ndetse inyuma ye hari n'abandi bantu barimo kugenda batembera mu murima, kandi uyu murima ahantu uri, ni ahantu h'igishanga harimo amazi arimo kugenda atemba.

Ubuhinzi bw'ikawa, aho hariho ikawa z'inda kwera, harimo zimwe zigenda zitukura ndetse n'izindi zikirimbisi, ni ukuvuga ngo iyo bageze igihe cyo gusarura, bareba turiya dutukuye, bakaba aritwo bagenda basoroma hanyuma bakazitonora.

Amoko y'imiti agiye atandukanye arimo utujerekani udutoya n'utunini ndetse iyi ngiyi ikunze kuvura amatungo, yiganjemo inka, intama, ingurube ndetse n'andi matungo maremare, bituma amererwa neza kubera ko ibi ngibi ari vitamine.

Amoko y'imiti igi itandukanye, ya yindi iboneka ku muganga w'amatungo, aho ushobora kuguramo iyo kuvura inka, ingurube, inkoko, ndetse n'andi matungo agiye atandukanye. Angaha kandi baguha n'ubujyanama ku bworozi.

Imiti y'amoko ye itandukanye iri mu bubiko, ahangaha ni ha handi umuganga w'amatungo yifashishwa mu kuvura inka ndetse n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye. Iyi ni imiti ishobora kwifashishwa na muganga w'amatungo mu gihe agiye kuvura cyangwa se n'abandi bantu bakora mu buhinzi nabo bashobora kuyikenera.

Agasashi karimo ibinini bigiye bitandukanye bisa umuhondo, ndetse ni bya bindi bihabwa amatungo. Ushobora kubihereza inka ihene ndetse n'andi matungo agiye atandukanye, abifasha kumera neza igihe yarwaye.

Imiti y'amoko agitandukanye ishobora gukoreshwa n'abaganga b'amatungo mu gihe barimo kuvura: inka, ingurube, inkoko ndetse n'ibindi. Hari amoko agera agiye atandukanye ushobora gusanga, aho abaganga b'amatungo bacururiza cyangwa se muri foromasi.

Amoko y'imiti agiye atandukanye, agiye apfunyitse bitewe n'ingano, hari amanini, amatoya agiye agerekeranye, akenshi iyi imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, higanjemo inka cyangwa se ihene kugira ngo zitange umukamo uhagije.

Umuti wifashishwa mu kuvura inkoko uriho inkoko iri kumwe n'abana bayo, uyu muti kandi bigaragara ko ari ikiro kimwe nk'uko bihanditse, aha ngaha ni mu iduka ushobora kuguramo imiti igiye itandukanye cyane cyane iy'amatungo.

Ububiko burimo imiti igiye itandukanye. Yifashishwa mu kuvura amatungo cyane cyane inka, ingurube, ihene ndetse n'andi matungo. Iri mu bubiko cyane cyane hano bahita muri farumasi. Aho abaveterineri cyangwa se abaganga b'amatungo babika imiti yabo.

Abagabo babiri barimo gusunika igare, bikoreye imizigo iri mu mifuka, ndetse bari kunyura ahantu hari urwuri n'ubwatsi butoshye, ni mu kibaya ndetse gikikijwe n'imisozi itandukanye igizwe n'ibiti bikiri bito.

Umugabo wambaye uturindantoki, yambaye ingofero, ndetse yambaye n'ishati y'amaboko maremare. Arimo kugenda atera igiti, arasa nka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Arimo kugenda atera ibiti ndetse ku ruhande rwe ahagaze umusirikare uri kureba ibyo ari gukora.

Ahantu hari inkoko nyinshi, za zindi zijya zitera amagi z'ubwoko bwa saso. Ni nyinshi cyane zimwe ziri hejuru izindi ziri hasi. Zorowe mu buryo bugezweho ku buryo zidashobora guterana indwara. Zimwe ziri hejuru izindi ku kandi kantu gakurikiyeho ndetse n'izindi hasi. Zijya hasi cyane cyane iyo zigiye gutora. Igihe bazihaye ibyo kurya.

Ibigori byeze neza, hariho umugabo w'umuhinzi arimo kugenda abisarura ndetse ni binini cyane biragaragara ko yagiye abishyiraho ifumbire ndetse yabyitayeho abibagura neza bifite umusaruro uhagije, na we ubwe agiye kubyungukiramo.

Abagabo bagiye batandukanye bari mu murima barimo kugenda babagara ndetse biragaragara ko ari twa turima tuba turi ahantu rusange, haba hariho uburyo bahinga ikimera runaka ndetse akenshi hakunze kuba hari aho bigishiriza abandi bantu uburyo bashobora guhinga imbuto runaka.

Umugabo ufite igare avuye gutashya, arimo kugenda asunika inkwi yapakiye nyinshi cyane, ari guterera ahantu hazamuka ndetse biragaragara ko yananiwe, gusa aho ari kunyura harimo ubwatsi, aho umuntu ashobora kuragira amatungo ye.

Abagabo babiri barimo kugendana umwe uri imbere ari gusunika igare, igare rye ririho igitiyo ndetse n'inkwi ahetse, arimo kugenda amuganiriza, uw'inyuma kandi afite umu panga biragaragara ko aba ngabo ari abahinzi bavuye mu mirimo igiye itandukanye.

Umugore w'umuhinzi ahantu ari hari ibigori byinshi bimanitse byamaze kuma arimo kugaragaza umusaruro, afite impungure mu ntoki arimo kugenda azigaragariza abandi bantu, aho aha ngaha ushobora kuguraraho izo kujya kurya.

Imboga, imyumbati ihinze mu karima k'igikoni, iyi ngiyi zifashishwa mu gutegura ifunguro ndetse umuntu ashobora kuzikoresha kugira ngo azamure intungamubiri cyane cyane ku ifunguro rya buri munsi, ntabwo ziba zigomba kubura ku ifunguro kuko zigira agaciro kanini mu mubiri.

Ikimera bita imyumbati cyiri ahantu, kiracyari gitoya ndetse ku ruhande hariho ibyatsi bitemye birunze byahumiye, hari n'insina ndetse n'ukuvango imyumbati iracyari mitoya nibwo igiterwa, uramutse uwukuye nta myumbati ushobora gusangaho.

Imirima ihinzemo imyumbati. Iri ku ruhande ruriho umuhanda ndetse n'umuhanda wa kaburimbo. Aha ngaha uyu muntu ufite uyu murima ntabwo ashobora kurushywa no gutwara umusaruro we kuko biba byoroshye kubona imodoka cyangwa se igare rishobora gutwara umusaruro we.

Ibifuka binini cyane byiganjemo ibirayi igiye bitandukanye, bisa n'aho bisongoye, ni ukuvuga ngo ahangaha ni hahandi muntu aza kurangurira cyangwa se mu gihe akeneye imbuto zo gutera, ahangaha bashobora kuyimuha kuko bigira amoko agiye atandukanye.

Ibihingwa bigiye bitandukanye byiganjemo amapapayi, aha hantu kandi hari n'ibyatsi bijye bitandukanye, bigaragara ko ari mu gashyamba, gusa harahinze ibibwa by'amoko agiye atandukanye byahinzwe n'abahinzi ba hano.

Ubwoko bw'imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'imboga, ziganjemo karoti, ibibiringanya, itomati, ibitoki ndetse n'ubundi bwoko, birasa neza, bigaragara ko ari ahantu habikwa imbuto kuko harimo n'amapavuro n'izindi mboga z'amoko agiye atandukanye.

Ikigori kimaze kuma neza aho gifite imisatsi yumye ndetse n'andi mababi yose yarumye, hanyuma kigeze igihe cyo gusarurwa kikaba cyabikwa kigakurwamo ibintu bigiye bitandukanye, urugero gishobora gukurwamo amafu yavamo akawunga ndetse n'andi ashobora gukurwamo ifu yo kunywa.

Dodo zishishe cyane zirakuze aha ngaha zifitehe n'utwerezwa cyangwa se utuntu ushobora kujyana ahandi hantu ugatera kandi dodo zifashishwa mu mafunguro ya buri munsi aho abantu bazirya ku ifunguro kugira ngo ribe ryujuje ibisabwa.

Icyanya gihinzemo ibigori byinshi cyane bigeze igihe cyo kwera, ndetse kandi hasi hariho umuceri urimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bimanitsemo bita akadahumeka, bishobora kwifashisha mu kurwanya inyoni mu gihe ziri kuza kurya umuceri mu mugihe utari wakomera.

Ikimera cy'umwumbati gifite amababi agaragaza ko gishobora kuba cyararwaye, ahangaha nta myumbati irimo munsi, imaze igihe gitoya itewe ntabwo iratangira gutanga umusaruro . Nyuma y'igihe runaka bazacukura bakuremo imyumbati.

Ubwoko bw'imboga ziteye ku mirongo, harimo zimwe bita amashu ndetse n'ubundi bwoko by'amababi gusa ndetse ku ruhande hariho inzu bakunze guhunikamo amashu igihekiri matoya, babyita guhombeka.

Urwuri rurimo inka nkeya ndetse n'ubwatsi bwarashize biragaragara ko ari muri cya gihe cy'impeshyi ndetse igihe ubwatsi aba ari bukeya, ahangaha kandi cyo no kwerekana ko inka ziri muri uru rwuri zishobora kuba ari nyinshi ugereranyije n'ubwatsi burimo.

Ishyamba ririmo amoko y'ibiti bigiye bitandukanye gusa harimo n'ibyatsi byinshi byagiye bimera. Harimo ibihuru ku buryo aha ngaha kunyuramo biba bitoroshye. Biba bisaba kwitwaza akantu ku buryo ugenda utema kugira ngo ubone aho unyura.

Agashyamba gato kitegeye ahantu hari ikiyaga, aho umuntu ashobora kujya gufatira akayaga mu mugihe ashyushye cyane, kandi gashobora no kujya kuhoga mugihe yumva ashyushye cyane, kubera ko haba hari amahumbezi kubera ko hari amashyamba ndetse n'ikiyaga.

Agace karimo ibyiza nyaburanga aho ari imisozi iteganye hagati harimo umugezi w'amazi atemba, aho inyamaswa zirimo hano zishobora kuza kunywa amazi. Ahangaha ni mu bimwe bigize, imitungo kamere.

Mu misozi cyane ahantu hari amashyamba aho higanjemo ibihu ni cya gihe mu gitondo aho haba hakonje cyane kandi ibi bihu bigenda bizenguruka bitwikira amashyamba, ku buryo udashobora kubona umuntu uri imbere yawe cyangwa se umuntu uri kure cyane.

Ishyamba nibiti bikeya aho ryiganjemo ibiti biteye mu kajagari, hamwe hari ibiti byinshi ahandi ni ku gasi, aha ngaha kandi usanga ari ya mashyamba ya leta aba adakunze gukoreshwa cyane cyane hari igihe atitabwaho, ariko gusa ahangaha nta muntu uba wemerewe gutemamo igiti.

Akarabo gasa neza aho ahangaha ari aho bororera ibiti, bishobora gukurwamo indabo zo kugurisha, ahangaha kandi, bishobora gukorwa nk'umushinga cyangwa se mu buryo bwo kwita, ku bidukikije no kuringaniza cyangwa se kurinda ibidukikije.

Ibishyimbo biteye ku mirongo ndetse biracyari bitoya. Ku rundi ruhande kandi, hagiye hanyuzemo amatiyo agiye atandukanye, bigaragara ko ari ya yandi yifashishwa mu kuvomerera imyaka, mu gihe hari izuba ryinshi cyangwa se mu gihe cy'impeshyi, kugira ngo bigumane ubuyanja.

Umugabo w'umuhinzi w'indabo arimo kugenda akata izihishije. Izifite ibara ritukura arimo aragenda azikata kugira ngo abashe kuzigurisha akuremo amafaranga yo gukoresha mu bintu runaka akeneye.

Umugore urimo guhinga ndetse ni umuhinzi w'inanasi, arimo kugenda azibagarira agenda akuramo ibyatsi bishobora gutuma zidatanga umusaruro, zenda kwera kuko amababi yatangiye kugenda atukura ndetse harimo izigaragara ko zikuze.

Umugabo uteruye umusaruro ugizwe, n'inyanya, karoti, ibitunguru, ndetse na beterave. Arimo kugenda agaragaza umusaruro w'imboga, aho ahangaha arimo agaragaza ko ifunguro rya muntu ritagomba kuburaho imboga, ndetse ko ubuhinzi bw'imbuga n'imbuto bitanga umusaruro.

Umugore wahinze bya kijyambere urusenda arimo kugenda asarura izahishije kugira ngo arebe ko yazijyana mu isoko, arimo kugenda akata rumwe rumwe ashyira mu kantu kugira ngo age kuzigurisha na we abashe kubona amafaranga.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye akusanyije hamwe yiganjemo indabo, amashu, karoti ndetse n'ibindi bintu byinshi. Aha ngaha ni hantu haba hubatse ndetse aho ibimera biba biri ahantu hameze nko mu nzu.

Umugabo ufite itiyo y'amazi arimo kugenda avomerera imyaka mu bice bigiye bitandukanye arimo kuganda bigenda ashyira hejuru ndetse ari nako anyanyagiza mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo amazi abashe gusakara ku bimera byose ndetse mu murima n'ibindi bimera bimere neza.

Uruganda rwubatse neza ruriho ibintu bimeze nk'amatiyo cyane cyane aba arimo amazi menshi. Yifashishwa mu kugenda bavomerera imyaka. Muri cya gihe haba hari izuba ryinshi cyangwa se mu gihe k'impeshyi. Amazi aba makeya aho ibiribwa cyangwa se ibihingwa biba bishobora kuma.

Umurima uteyemo ibihingwa, urimo bya bikoresho by'ikoranabuhanga bigenda byuhira, bimena amazi mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane mu gihe cy'impeshyi, igihe ubutaka buba bufite amazi makeya, hakenewe amazi menshi kugira ibimera bize gukura neza.

Umugore ufite itiyo ririmo kuvamo amazi ni za zindi zifashishwa muvomerera imyaka igihe ari mu mpeshyi, arimo kugenda anyanyagiza mu bice bigiye bitandukanye by'uwo murima kugira ngo izi nanasi zikore neza bizirinde kuma.

Umugabo w'umuhinzi afite itiyo rinini cyane ririmo kuvamo amazi arimo kugenda avomerera amashu kugira ngo amere neza, ni muri cya gihe cy'impeshyi cyangwa se igihe haba hari izuba ryinshi bari kugira ngo ataza kuma bikagenda nabi.

Abahinzi b'ibigori barimo kugenda bareba umusaruro bafite no kugenda batembera, ibigori bitangiye kuzana ingingo, ni ukuvuga ngo birimo kugenda bikura nyuma y'igihe runaka bizaba bifite amasunzu cyangwa se ubwerezwa.

Umusozi uri ahantu hirengeye uhinzemo icyayi ahangaha uramutse uhicaye uba ureba mu bice bigiye bitandukanye bigize kano gace, hariho kandi n'ibiti by'inturusu byifashishwa mu gucana ndetse no kubikuramo imbaho ndetse no kubaka.

Imisozi iteganye umwe hakurya undi hakuno, uri hino uhinziho ibishyimbo uri hakurya usa nkaho udahinze cyane ndetse uraruhije kuwuterera kuko umuntu uri hasi kugira ngo azagere ku gasongero kawo byamugora.

Agace kitegeye imisozi hariho intebe ziteye neza, ndetse na za ntebe za kinyarwanda ziba zikozwe mu biti. Hariho umugabo urimo gusoma igitabo. Hakurya hari imisozi igiye itandukanye, yitegeye aho umuntu aba areba.

Bimwe mu byiza nyaburanga, aho hari imisozi igiye itandukanye hakabaho insina, ibiti z'inturusu ndetse hakaba n'utundi dusozi tuba dutoye, aho umuntu igihe ari muri iyi misozi ashobora kuba yitegeye, ibice bigiye bitandukanye.

Icyanya kirimo amashyamba ndetse n'ibyayi, aha ngaha iki cyayi cyifashishwa mu kuzana amadevize cyangwa se amafaranga y'abanyamahanga, aho u Rwanda rwohereza icyayi hanze hamwe n'ikawa, ubundi rukabona amafaranga ndetse n'agaciro k'amanyarwanda kakiyongera.

Agace kitegeye umujyi aho kagaragaza ibyiza bitatse u Rwanda, imisozi, ikirere gisa neza ndetse n'ibibaya. Ni ukuvuga ngo umuntu uhagaze hariya ku musozi ahirengeye aba areba hasi neza neza mu kibaya areba ibiri kuhabiye, ni ukuvuga ngo aba agomba gutembera ameze neza yumva akayaga kari hejuru ku misozi ari na ko areba mu bibaya.

Agace karimo ibyiza nyaburanga ni imirima igiye itandukanye hariho ibiti biteyeho ndetse n'amashyamba ari mu misozi igiye itandukanye, hariho n'ahateye icyayi, aha ngaha kandi ni mu mirima igiye itandukanye y'abaturage.

Ikiyaga kitaruye imisozi ndetse gikikijwe n'imisozi igiye itandukanye ndetse n'amazi makeya nta menshi cyane, hagizwe n'utugwa tuye dutandukanye aho umuntu ashobora kujya mu gihe runaka, igihe ashaka kuharira ubuzima cyangwa se ashaka kumva amahumbezi y'iki kiyaga.

Ibyiza nyaburanga bigizwe n'ikiyaga, imisozi yitegeye icyo kiyaga ndetse impande n'impande hari ibyatsi bimeze neza bitoshye, imisozi ikurura imvura. Aha ngaha kandi iyo umuntu atuye muri aka gace aba afite amahumbezi. Gusa ntabwo biba ari byiza gutura hafi y'ikiyaga.

Amagare abiri aparitse hicaye n'umuntu ndetse ku ruhande hariho amajerekani biragaragara ko uyu muntu yaje kuvoma, hakurya hariyo amaterasi ndinganire ari mu misozi igiye itandukanye, imisozi igera kuri itanu, aya materasi ni meza cyane kuko ara hatatse hameze neza.

Imisozi miremire ibiri iteganye hejuru yayo hariho ibihu ndetse n'ibihuru kandi hejuru biragaragara ko bahahinga ndetse ikirere kirijimye cyane ni imuri cya gihe imvura iba yenda kugwa cyangwa se igihe aba ari mu gitondo kare kare.

Ubworozi bw'inkoko aho hariho inkoko z'amoko agiye atandukanye yiganjemo zazindi zitera amagi, ahangaha ni umworozi wabigize umwuga, aho ushobora kuza kugura, iyo kujya kurya cyangwa se mu gihe ushaka amagi wahayasanga.

Ubworozi bw'inkoko, aho hano hariho imishwi utamenya ingano yayo, hariho abantu barimo kugenda bagenzura bareba ko imeze neza, barimo kugenda bayitaho bashiramo n'ibyokurya kugira ngo ubugorozi bworozi burusheho kugenda neza.

Inka ziri ahantu mu rwuri ni nyinshi cyane aha ngaha ni kwa kundi baragira amatungo mu rwuri hakaba hari abashumba babana nazo bakunze kuzitaho bakareba imimerere yazo igihe zarwaye bakazivuza ndetse n'igihe cyo gukama bagakusanya amata bakayajyana aho bagomba kuyagurishiriza.

Inka yorowe mu buryo bugezweho kandi bwo kororera mu kiraro, iri yonyine irasasiwe ndetse yambaye n'impeta ku gutwi ndetse ni nimero iyiranga, inyuma hariho urugi rutukura ndetse mu mpande hakikijwe ibyuma bisizwe irangi itukura.

Urwuri rurimo inka zigiye zitandukanye harimo imbyeyi n'ibimasa ndetse zirimo kugenda zirisha. Harimo ubwatsi butoshye ndetse bigaragara ko ari mu ifamu. Hariho kandi ku ruhande ibiti bigiye biteyeho kimwe kimwe kubera ko aha ngaha hagenewe kororerwa amatungo.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi cyane, aho izi ngizi inyinshi ziba zitanga amagi, ntabwo zirarira cyangwa se ngo ziturage nk'uko inkoko nyarwanda zibigenza, ni ukuvuga ngo izi ngizi barazorora zigaturaga amagi hanyuma bene zo bakayagurisha, bagakuramo amafaranga, bakayaryamo umuleti ndetse no mu bundi buryo bugiye butandukanye, haba kuyatogosa ndetse n'ibindi.

Urwuri rurimo inka ziragiye ku gasozi zigera kuri enyi, harimo imbyeyi eshatu ndetse n'inyana ikiri ntoya iri ku ruhande, ubu bwatsi biragaragara ko budatoshye kuko harimo inka nyinshi zisumba ubwatsi burimo.

Agace kororewemo ihene, aha ngaha hariho ibiraro, aha ni naho zitaha. Hariho umuntu ushinzwe kumenya umutekano wazo ndetse kandi aha ngaha hubatse neza cyane. Izi hene zifite n'impeta zambaye ku matwi.

Amoko y'ihene zigiye zitandukanye. Inyinshi muri zo zifite amahembe maremare. Ziragiye ahantu ku gasozi kwa kundi abantu baterera ariko gusa hakaba hari umuntu ushinzwe kuzicunga kugira ngo zitaza guhura n'abajura cyangwa se zigahura n'aba rushimusi cyangwa abajura.

Ubworozi bw'amatungo aho ari inka ziri mu biraro zirimo kugenda zirisha, aha ngaha ni bwa buryo bugezweho, aho abantu bororera mu biraro kugira ngo batangiza ibidukikije igihe baba baragira amatungo ku gasozi.

Ikiraro kirimo amatungo yiganjemo inka inyinshi muri zo zirakamwa, gusa izi nka zose zirasa, aha ngaha ziba zirisha ntabwo ziba zisohoka zirira hano mo imbere, hagakorwa isuku bakahakoropa cyangwa se bakahakubura.

Ubworozi bw'ihene, aho hano babigize umwuga. Higanjemo ihene z'umweru ndetse n'izindi z'umukara. Aha ngaha ushobora kuza kwahagurira izo kujya korora cyangwa se mu gihe ukeneye izo kujyana kubaga mu buryo bw'inyama.

Ubworozi bw'ingurube, ni mu kiraro, harimo ingurube zigera kuri ebyiri, zisa neza, zarogejwe, ni mu kiraro ndetse imwe muri zo irimo kugenda yasama, iyindi nayo irimo kugenda ikora hasi, ziracyari ntoya, ziracyari amashashi, ntabwo zari zabyara.

Ikiraro cy'amatungo cyubakishijwe imbaho, zimwe ziri hasi ndetse hejuru hariho amabati, mu mpande naho hariho utuntu tumeze nka senyenge, dutuma akayaga kinjira, gusa nanoneo bikarinda ko inka ishobora kuva mu kiro cyayo, ikinjira mu kiraro cy'iyindi inka.

Ubworozi bw'amatungo aho ahangaha hororerwa inka ndetse nibwaburyo bugezweho aho bururira ahantu rusange ndetse buri wese akaba afite ahe, ukagirira isuku ndetse ahangaha bikunze gukorwa mu makoperative cyangwa se amashyirahamwe abantu bishyize hamwe.

Ubworozi bw'ingurube, aho hano hariho ingurube nini cyane, ifite ibibwana bigera kuri bitatu. Irasasiye ndetse ahantu mu mpande zose hateye sima. Aha ngaha kandi ni bwa bworozi bugezweho, aho umuntu aba yororeye mu rugo.

Ubworozi bw'inkoko bugizwe n'izitera amagi ndetse n'izo ziganjemo, hejuru hariho ibintu bijya zikuramo ibyo kurya ndetse nyinshi cyane, ku buryo utamenya umubare wazo zigera nko mu bihumbi magana, ukurikije uko zingana.

Ubunyobwa bwifashishwa mu gukora isosi, gusa umuntu ashobora no kubukaranga nta mavuta, gusa ushira mu isafuriya warangiza ukagenda ukoroga ushyiramo n'akunyu, warangiza bwamara kugenda bushya ukaba waburya, utiriwe ushyiramo n'amazi cyangwa se ikindi kintu.

Amoko y'ibishyimbo bigiye bitandukanye byifashishwa mu guterwa ndetse harimo amashaza, umuceri, hakabaho n'ibindi bintu byinshi bimeze nk'ingano, ahangaha kandi hariho n'amashaza atonoye cyangwa se aseye.

Amoko y'ibinyamisogwe bigiye bitandukanye byiganjemo, amashaza, ibishyimbo, umuceri, ndetse n'ibindi byinshi. Aya ni amoko agiye atandukanye, y'ibishyimbo ndetse n'amashaza, bishobora guterwa ahantu runaka, cyangwa se ushobora gufata ku ifunguro ryawe rya buri munsi.

Umuntu ufashe amashaza mu ntoki, ni umufuka wuzuye arimo kugenda ayafata mu ntoki, aya areze ageze igihe cyo guterwa kuko arumye gusa ashobora no gutekwa iyumye.

Inka nyinshi ziteraniye hamwe z'ubwoko bumwe ndetse izi ngizi zifite amahembe ateze neza ni za zindi bita inyambo, ni ukuvuga ngo mu Rwanda basigaye babyina bigana ukuntu zino nka ziba ziteze amahembe nabo akaba ari ko bagira amaboko.

Umugabo waje gukingiza imbwa ye, uyu muganga w'amatungo arimo kugenda ayitera urushinge kugira ngo hirindwe ko imbwa igihe iramutse iriye umuntu, adashobora guhura n'ikibazo cyo gusara, kuko imbwa zigira ubumara igihe iriye umuntu itarakingiwe ashobora guhura n'ibibazo.

Ubworozi bw'amatungo aho inka iri kugenda itambuka, uyu muganga w'amatungo na we akagenda ayisuzuma arimo kugenda areba ikibazo ifite, iri kugenda batambutsa imwe imwe kugira ngo uyu muganga w'amatungo agende arebe ibibazo zifite.

Umuvuzi w'amatungo urimo kugenda apima, yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'uturindantoki. Afite igikoresho cyifashishwa mu buvuzi, ndetse aritandiye. Inyuma ye kandi hariho abandi bantu barimo kureba ibyo arimo gukora bambaye bote, ni aborozi.

Aborozi hamwe n'abavuzi b'amatungo, aho barimo kugenda bareba niba inka zimeze neza. Izi nka kandi, ziganjemo iz'inyambo ziteze neza amahembe, ku buryo abantu b'abaturarwanda babikuraho umuco wo kubyina nabo bateze amaboko, nk'uko zino nyambo zibigenza.

Umugore wambaye imyenda y'akazi, arimo kugenda avura iyi nka. Ashobora kureba niba yagize ikibazo yarangiza akayitera imiti igiye itandukanye kugira ngo izabashe gukira. Hanyuma ni mu buryo bwo gufasha aborozi kugira ngo babone umusaruro.

Umuganga w'amatungo urimo kugenda, atera inka intanga. Ni bwa buryo bugezweho, bwo kubangurira utiriwe ujyana inka ku mfizi ntiyimye, ahangaha abaganga bafite ikoranabuhanga cyangwa se, abaveteneri bakoresha mu gutera intanga inka yarangiza ikabyara.

Ubworozi bw'inkoko cyane cyane zikiri ntoya, aho hari uducu duto turimo kugenda dutora ibyo kurya, turi ahantu hagiye hatandukanye tumwe tuba hasi, utundi hejuru ahangaha nibwo buryo bwo korora bugezweho bw'iki gihe.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe, yifashishwa mu kuvura, ndetse afite umukasi, uturindantoki, agapfukamunwa, ndetse n'akandi kantu yambaye mu mutwe, arimo kugenda avura inka, ayivura ibikomere, arimo kugenda akata ahantu hangiritse, ari nako areba ahantu hafite ikibazo akagenda ahadoda.

Umuganga w'amatungo urimo kuvura inka ari kumwe n'umushumba, arimo kugenda amufasha, arimo kugenda ayitaho kugira ngo arebe ko yayivura igakira, kubera ko irwaye cyane, arimo kuyitera urushinge ayihereza n'ibinini.

Inyamaswa ziboneka muri Parike National y'Akagera ziganjemo imparage harimo n'impara, aha ngaha ushobora kuhajya ukazisura ukirebera ibyiza, wishyura makeya hanyuma hakaba hari umuntu ugutembereza akakugeza aho ushaka kugera.

Amoko y'inyamaswa ziba ku gasozi ziganjemo: imvubu, hakabaho ingwe, hakabaho inzovu, hakabaho inyoni nini bita otirishi, hakabaho imparage, hakabaho agasumbashyamba ndetse kandi hariho n'intare, aha haragaragazwa inyamaswa ziba ku gasozi.

Agatsiko k'intare zifunzwe zirimo kwitegereza mu bice bigiye bitandukanye, ahangaha biba bibujijwe kuhegera kuko uramutse uhageze zakurya. Ziba zishonje kandi intare zikunze kurya zirya inyama nta kindi kinturya. Ntizirya ibyatsi zitunzwe n'inyama gusa n'utundi tunyamaswa duto.

Inyamaswa zikurura ba mukerarugendo bita inzovu, ni inzovu nini n'intoya ndetse n'akanana kazo, izi ngizi zikunze kugendera hamwe nk'umuryango kandi ahantu ziciye nta muntu ujya uzitambika, zigira umujinya nabi, kuko iyo uyirakaje ntabwo ijya ikunda kukwibagirwa, iyo n'iyo muhuye no mu gihe kizaza imenya ko ari wowe.

Inyamaswa ziboneka muri parike national y'Akagera, ziganjemo ibitera ndetse zimeze nk'inkende, ahangaha zirimo kugenda zitoragura ibyo kurya kuko zirya n'ibyatsi, zigera kuri enye ndetse ziri kugendera hamwe.

Inyamaswa zigize ibyiza bitatse u Rwanda, iyi ngiyi bayita inzovu, zigendera hamwe nk'umuryango, ziboneka muri parike nasiyonari y'Akagera, aho ushobora kujya kuhasura ukirebera ibyiza nyaburanga, si inzovu gusa habeho n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye.

Inyamaswa zirimo kwambuka mu muhanda ni ukuvuga ngo aha ngaha ziba zacitse aho zisanzwe ziba mu mapariki, mu mashyamba n'ahandi, zirimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo nta baturage barimo cyangwa se imodoka zirimo kwambuka zituje.

Inyamaswa yitwa isha, irimo kugenda irisha ibyatsi biyisumba, iyi nyamaswa irirukanka cyane, ikunze kuboneka muri pariki nasionari y'Akagera ndetse n'ahandi hantu hari amashyamba, iyi inyamaswa uyirebye wagira ngo ni ihene ku muntu utayizi.

Inyamaswa yo ku gasozi cyane cyane za zindi ziba muri parike, iyi ngiyi bayita intare, aha ngaha uramutse uyegereye ishobora kukumerera nabi kuko zigira amahane kandi zirya inyama, ni ukuvuga ngo uba ugomba kuyirinda ntaho uba ugomba kujya igihe utari kumwe n'umuyobozi uyobora abandi.

Akanyamaswa kameze nk'ihene, karimo kugenda gahindukira kareba inyuma, bikunze kuboneka mu ishyamba cyangwag se muri pariki nasiyonari y'Akagera, izi ngizi zikurura ba mukerarugendo, bakaza kuzireba bakishyura amadovize.

Inyamaswa imwe muri zazindi ziboneka muri parike nasiyonari y'akagera. Iyingiyi imeze nk'imbwa uramutse uyitegereje ifite amatwi maremare, ushobora kuba ari impyisi kuko izi ngizi ziboneka mu Rwanda wahazisanga.

Inyamaswa bita inyende zirimo kugenda zikina, ebyiri ziri hejuru y'indi ntoya, zirimo kugenda ziyinyukanyuka, izi ngizi zikunze kuboneka mu bice by'amajyepfo cyane cyane nko mu kigo mpuzamahanga cyangwa se Kaminuza y'u Rwanda ya Huye.

Inyamaswa zigiye zitandukanye za zindi ziba ku gasozi, hariho inguge, hakabaho kandi n'intare, ku ruhande kandi hariho n'ingwe, izi ngizi ziba muri Pariki National y'Akagera niba ushaka kuzisura ni ho uzisanga.

Inyamaswa zirimo kurwana, ni intare irimo kurwana n'imbarage. Ahangaha ni mu ishyamba, kubera ko irusha ubushobozi iyindi irayirya. Iyi mparage nayo irimo kugenda yirwanaho nazo zikirukanka intare nayo ikayitera amenyo.

Inyamaswa yo ku gasozi iyi ngiyi bayita twiga cyangwa se agasumbashyamba, ushobora kuyisanga mu cyanya cy'akagera, aha ngaha igihe ugiye kuhasura ushobora kugira amahirwe yo kuyibona, ishobora kurisha mu giti yibereye hasi rwose.